Abakozi b'ibitaro, ibitaro ni irwariro aho abarwayi barwarira haba hariyo abaganga bashinzwe gutanga miti, n'abaganga bashinzwe kuvura abarwayi. Hano ni aho abarwayi barwarira babacumbikiye.